Umuntu wambaye uturindantoki tw'imyeru, ndetse n'isarubeti y'umweru, afashe igihingwa gitoya kiri mu gihoho cy'icyuma arimo gusukaho imiti igifasha gukura neza.

Ameza manini akoze mu biti ateretseho imiti igiye itandukanye iri mu macupa atandukanye iri mu bwoko bw'ibisukika, inyuma yayo hari ipombo yifashishwa mu kuyitera, iyo miti yifashishwa mu buhinzi.

Ikizega cy'amafi kirimo amazi menshi, kizwi ku izina ry'icyuzi cyororerwamo amafi, iruhande rwacyo hari abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore baje kukigenzura.

Ikizenga kinini cyororerwamo amafi kizwi ku izina ry'icyuzi iruhande rwacyo hahagaze umugabo ufite agatebo ka parasitike kagiye gafite imyenge karimo ifi amaze kuroba.

Ikizenga kinini kizwi ku izina ry'icyuzi cyubatse mu buryo bwa kijyambere cyubakishije shitingi y'umukara, hororeweho amafi ari mu bwoko bumwe.

Icyuzi kinini cyororerwamo amafi hejuru yacyo hari akazu gato kororerwaho itungo kugira ngo amase yako ajye abasha gutunga ayo mafi.

Umugabo n'umugore bari mu murima uhinzeho icyayi, bafite udutebo turi mu migongo yabo, bari kugenda basaruriraho amababi yacyo, kugira ngo kijye gutunganywa.

Umugabo uhagaze mu murima w'icyayi wambaye itaburiya ndende y'umuhondo afite agatebo umugongo kaziritse ku mugozi uciye ku mutwe we arimo arasarura amababi ayashyira muri ako gatebo kugira ngo kijyane gutunganywa.

Igishanga kinini, hahinzeho igihingwa kizwi ku izina ry'umuceri, hahagazemo umugore urimo kuzengurukamo arinda inyoni ziza kona uwo muceri mu gihe atarawusarura.

Abagabo batatu bahagaze mu murima w'ikawa zikiri ntoya barimo kuzigenzura barebamo izimeze neza ndetse n'izimeze nabi bazikuramo kugira ngo izindi zizakure neza.

Umugabo uhagaze, ufite umuhoro mu ntoki, uri kumwe n'abagore, bahagaze iruhande rw'umurima, uhinzemo igihingwa kizwi ku izina ry'umuceri.

Abagabo ndetse n'abagore bahetse udutebo ku migongo yabo, bari mu murima w'icyayi barimo barasarura amababi yacyo kugira ngo azajye gutunganywa.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari kuyora ikawa bazishyira ku mabasi, abandi mu ndobo bazipima kugira ngo bamenye umusaruro wavuye ku murima wabo basaruyeho.

Umurima munini uriho igihingwa ngandurabukungu kizwi ku izina ry'icyayi hahagazemo umugore ufite ibitebo bibiri arimo gusuroma amababi y'icyo gihingwa ayashyiramo.

Igihingwa ngandurabukungu kizwi ku izina ry'ikahwa, gifite imiteja yeze neza itukura itarasarurwa ariko yagejeje igihe cyo gusarurwa.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero ndetse n'igisarubeti bisa, ahagaze imbere y'ibyuma arimo aratunganya amababi y'icyayi, yamaze gusarurwa, ayoza kugira ngo ayabike ameze neza.

Abaturage batandukanye bafite ibitebo mu migongo yabo, bari umurima w'icyayi aho bari gusarura ibibabi by'icyayi babishyira muri icyo gitebo kugira ngo bijyanywe gutunganywa.

Imiti ine iri ku murongo, yifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi, mu kwica udusimba tugiye dutandukanye, twibasira ibihingwa. Inyuma yayo, hari akandi gakarito, karimo indi miti.

Amashashi agiye atondetse ku mirongo arimo imiti y'ifu yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye z'inkoko, inyuma yaho hariho amagambo y'uburyo uwo muti ukoreshwa.

Imiti itandukanye ifungiye mu bikarito, igiye igerekeranyije yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira amatungo.

Umuti uri mu bwoko bw'ibisukika ufungiye mu macupa y'umweru, afite udupfundikizo tw'imihondo ndetse n'icyatsi, ukaba wifashishwa mu kuvura uburwayi bw'amatungo bugiye butandukanye.

Imiti myinshi y'amoko atandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo igiye igerekeranyije. Harimo ivura: inka, intama, ihene ndetse n'ingurube.

Udukoresho twa kijyambere, twifashishwa mu bworozi bw'inkoko, turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, twifashishwa mu gutangaho amazi bayahereza inkoko.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo bugiye butandukanye, harimo iri mu moko y'ibisukika indi iri mu bwoko bw'ibinini bifunitse mu bikombe.

Imitigi itandukanye yifashishwa ubuvuzi bw'amatungo, ifungiye mu tudobo tune tugerekeranyije, iruhande rwayo hari igikombe nacyo kirimo imiti.

Umugabo ufite inka nyinshi arimo kuziragira mu rwuri rwe, urwo rwuri ruzengurutswe n'ibiti by'uruzitiro rurinda izo nka kugira ngo zitajya hanze yarwo.

Umusore uhagaze mu murima uhinzeho ibigori uzengurutswe n'urubingo iruhande rw'uwo murima, arimo kwahira akoresheje umuhoro yahira urwo rubingo ngo arushyire amatungo.

Umurima munini uhinzeho ibigori, hari abagabo batatu barimo kugenda babizenguruka bareba ko bikoreye neza, umwe yambaye impuzankano ya gisirikare abandi bambaye imyenda isanzwe.

Inka zitandukanye ziririmo bwoko butandukanye, ziri mu rwuri zirimo kuririsha ibyatsi, inyuma y'urwo rwuri hari uruzitiro rw'ibiti bihateye bityo kugira ngo zitavamo, zikajya kona ibikorwa bikikije aho ngaho.

Abagore babiri bakenyeye ibitenge biteze ibitambaro mu mutwe batwaye amasuka ku ntugu zabo barimo guca mu kayira nyabagendwa gaca mu ishyamba.

Umurima munini uhinzeho igihingwa kizwi ku izina ry'ibigori harimo abantu babiri, umugabo ndetse n'umugore baje kubagara bakuramo ibyatsi kugira ngo bizakure neza.

Umugore wambaye ikanzu idoze mu bi bitenge, witeze igitambaro mu mutwe, afashe isuka arimo guhinga ahantu hasaruwe amasaka. Iruhande rwaho hahinze ibijumba.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe, ufite umuhoro mu ntoki, arimo arasarura ibisigazwa by'ibigori byasigaye mu murima, byifashishwa mu kugaburirwa amatungo.

Abagabo boroye inka zifite amahembe bagiye kuziragira mu ishyamba kugira ngo zibone ubwatsi bwo kurisha, bityo zitangage umusaruro w'umukamo ndetse n'inyama bihagije.

Igihingwa kizwi ku izina ry'uruyuzi, keraho amadetegede aribwa n'abantu kuko agira intungamubiri, akaba anarinda indwara zigiye zitandukanye harimo imivuduko n'izindi.

Umurima munini uhinzeho ibihingwa bigiye bitandukanye, bigiye bivangavanze, harimo ibigori ndetse n'imyumbati, iruhande rwabyo hari urutoki, rugiye ruteyemo amapapayi ndetse n'ibiti bya avoka.

Akarima k'igikoni kubakishije imifuka ndetse n'ibiti, gahingwaho imboga zifashishwa n'abaturage bazikuramo intungamubiri kugira ngo bihaze mu biribwa.

Umurima munini ukorerwaho imirimo ijyanye n'ubuhinzi, inyuma yawo hazengurutseho ibiti byinshi kandi bipfutse birinda inyamaswa zona kuba zaza muri uwo murima.

Ameza manini akoze mu biti ateretseho ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo ibiri mu bwoko bw'ibisukika ndetse n'ibindi, harimo imbuto ndetse n'ibindi biribwa bigiye bifungiye mu mashashi.

Umurima munini uhinzeho igihingwa kizwi ku izina ry'ibigori, byatangiye kuma bikiri bito bitewe nuko byabuze imvura, iruhande rwabyo hahinze ibijumba.

Igihingwa kizwi ku izina ry'uruyuzi giteye inyuma y'urukuta runini rwubakishije amatafari ahiye, urwo ruyuzi rweraraho amadegede yifashishwa nk'amafunguro ndetse akaba anarinda indwara zitandukanye.

Umurima munini ufite ubuso bunini, hahinzeho igihingwa kizwi k'izina ry'umuceri waze neza ariko utarasarurwa, hicayemo abantu bitwikiriye imitaka baje kurinda inyoni.

Umurima munini uhinzeho ibigori, bigiye bizengurutswe n'ibyuma, kugira ngo birinde ibyonnyi, uteganye n'umusozi muremure, utariho ibiti byinshi.

Ikibaya kinini, kirimo umurima ukasemo imirima mito, hahinzeho igihingwa kizwi ku izina ry'umuceri, cyifashishwa n'abaturage, bakuramo intungamubiri zitandukanye.

Ibirayi byinshi bipakiye neza bigeze hejuru biri mu mifuka igiye itandukanye yegeranye, abaturage babisaruriyemo kugira ngo bipimwe bibashe kugurishwa.

Ikibaya kinini gikorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi, hashinzemo amapoto akwirakwiza imiriro hirya no hino. Iruhande rwaho hari umuhanda w'igitaka wifashishwa mu kugemura ibihingwa biva k'ubwo butaka.

Abaturage bifatanyije n'inzego z'umutekano za leta, mu bikorwa by'umuganda barimo bakora isuku. Harimo abadaso ndetse n'abasirikare babyitabiriye.

Ishyamba rinini rifite ubuso bunini, hariho ibiti by'amoko agiye atandukanye, byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza duhumeka kandi bikifashishwa n'abaturage mu gukuramo ibicanwa.

Ishyamba rinini ririmo imbuga yororewemo inka zifite amahembe maremare, zizwi ku izina ry'inyambo, zizengurutswe n'uruzitiro rw'ibiti.

Imisozi miremire iteganye, iriho amashyamba arimo ibiti byinshi kandi bitandukanye, byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikanatanga inkwi ndetse n'amakara yifashishwa mu gucana.

Ubuhumbikiro buhumbitseho igihingwa k'imyembe, bikiri mu bihoho mbere yuko byimurwa kugira ngo bitangwe mu baturage bagiye batandukanye, bazahinga ibyo bihingwa.

Umugabo uhagaze mu murima uhinzemo imboga afite igikoresho gikoze mu biti kiriho imboga zigiye zitandukanye ari zo karoti, ibitunguru, inyanya ndetse n'izindi.

Imboga ndetse n'imbuto by'amoko agiye atandukanye bigerekeranyije byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bwa muntu ari kubifata nk'amafunguro kuko bigira intungamubiri.

Umurima munini uhinzeho igihingwa kizwi ku izina ry'inyanya, zihemberwa zifite imiteja imwe, zireze izindi irera neza harimo amatiyo azivomereraho amazi.

Umurima munini uhinzeho ibitunguru ku mirongo, arimo arabicukura areba ko byeze neza kugirango arebe niba bigeze igihe cy'isarurwa.

Umurima munini uhinzeho imboga zizwi ku izina ry'amashu ariko atabumba, hateraniye abantu benshi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, baje gusura uwo murima.

Akarima k'igikoni gahinzeho imboga z'amoko atandukanye arizo; amashu, ibitunguru, beterave, n'izindi bizwiho kugira intungamubiri nyinshi.

Umugore wambaye ishati itukura, witeze igitambaro mu mutwe, ahagaze mu murima w'amatunda, arimo kuyahembera yifashishije utugozi kugira ngo atarandaranda ajya hasi.

Umurima uhinzeho imboga zizwi ku izina ry'amashu iherereye mu gishanga, hahagazemo umugabo ufite itiyo itwara amazi, urimo kuvomerera yifashishije iyo tiyo.

Umurima munini uhinzeho imboga, hahagaze umugore ufite umupira uri kugenda avomere amazi kuri izo mboga, hagati ya karima n'akandi hagiye harimo akayira uwo mugore yifashisha acamo kugira ngo avomererera.

Umugabo uhagaze mu murima munini, ufite itiyo mu maguru uyifashe mu ntoki, arimo kuvomerera akoresheje iyo tiyo, imboga ze zizwi ku izina ry'amashu.

Umurima munini uhinnzeho ibigori bimwe bikuze ibindi bidakuze hahagazemo umwana ndetse n'umusore bafite amatiyo ari gucamo amazi barimo kubivomerera kugira ngo bibashe kubona amazi.

Umurima munini uhinzeho igihehingwa kizwi ku izina ry'ibigori, hariho uburyo bushya bugezweho bwifashishwa mu kuvomerera mu murima harimo abantu bane baje kwitegereza uburyo ibyo bikorwa bigenda.

Umurima munini uhinnzeho igihingwa kizwi ku izina ry'ibigori, hashinzemo igikoresho kinini cy'icyuma cyifashishwa mu kuvomerera ibyo bigori, kigenda gisakaza amazi hirya no hino hejuru y'ibyo bigori.

Umurima munini uhinzeho imboga zizwiho kugira intungamubiri mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi hari umugore ufite indobo urimo kuzivomerera amazi.

Umurima munini uteyeho imboga z'amoko atandukanye, hahagazemo umugore wunamye urimo kuzivomerera akoresheje indobo agafata agasahane agenda acucagira amazi ku mboga.

Umurima ukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi hahinzemo urutoki ndetse n'inyanya. Hahagazemo umugore ufite itiyo y'amazi urimo kugenda abivomerera.

Ubuso bunini buhinzeho igihingwa kizwi ku izina ry'ibigori, hari itiyo rigemuraho amazi kugira ngo yorohereze ibyo bihingwa kubona amazi.

Umurima munini uhinzeho igihingwa kizwi ku izina ry'ibigori, iruhande rwabyo hari ibyuma bishinze biri mu mabara y'ubururu byifashisha kuvomerera ibyo bihingwa.

Umurima munini ukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi, hahagazeho umusore ufite itiyo ry'ubururu, urimo kugenda avomerera ibyo bihingwa bihinzeho.

Umurima munini uhinzeho imboga, hashizemo igikoresho cy'icyuma kigenda gikwirakwiza amazi hirya no hino kuri izo mboga, kugira ngo zituma.

Umugore ufite rozwari uhagaze mu murima munini uhinzeho igihingwa cy'amashu arimo kuvomerera kugira ngo ayo mashu ye abashe kubona amazi ayatunga.

Umusozi munini uzwi ku izina ry'ikirunga, ukikijwe n'ibihu by'imyeru byinshishi, uzwiho kugira uburebure bunini kandi ukaba ukurura ba mukerarugendo baje kuwusura.

Imisozi miremire igiye iteganye, ituweho n'ingo zigiye zitatanye, iriho n'amashyamba ndetse inifashishwa mu gukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi.

Imisozi igihe itandukanye imiremire ndetse n'imigufi hagiye hariho ibiti ndetse n'amashyamba bigiye bitandukanye ndetse hakaba hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi.

imisozi minini iteganye, iteyeho amashyamba, inifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi, hagiye hakaseho amaterasi y'indinganire, afasha mu kurinda isuri.

Ikiyaga kinini kirimo amazi meza, kizengurutswe n'imisozi miremire ndetse n'imigufi, ikorerwaho ubuhinzi ndetse iteyeho amashyamba kandi ituweho n'abaturage.

Imisozi miremire igiye ikorerwaho ibikorwa bitandukanye, harimo ibijyanye n'ubuhinzi ndetse n'abantu bakaba bayituyeho, hacamo n'umuhanda muremure wa kaburimbo.

lmisozi minini igiye iteganye, miremire ndetse n'imigufi, hagiye hariho ibiti kandi inatuwe, inifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi bw'abaturage.

Abaturage batandukanye bari mu murima uhinzemo imyaka igiye ivanzemo ibinyomoro, barimo kubagaramo bakuramo ibyatsi kugira ngo iyo myaka izakure neza.

Imisozi miremire igiye itandukanye ihinzeho amashyamba, inatuweho kandi ikaba inifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi, hejuru yayo hari ikirere gikeye kiriho ibicu by'imyeru.

Umusozi munini ukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi haciyeho amaterasi yifashishwa mu kurinda ndetse no kurwanya isuri yakibasira ako gace.

Ikiyaga kinini kirimo amazi menshi, gikikijwe n'imisozi igiye itandukanye iriho amashyamba, ikanakorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi.

Imisozi miremire, ifite ubuhaname burebure, hakorerwaho ubuhinzi bw'icyayi, hari n'amaterasi y'indinganire, arinda ko isuri yahangiza.

Umusore uhagaze, wambaye ingofero itukura, ipantaro y'umukara, ufashe ku inka, inyuma ye hari umugabo wambaye igisarubiti cy'ubururu na bote z'umukara, afite igicuba arimo gukamiramo amata.

Inka y'ikimasa ifite amabara meza, yambaye iherena ry'umuhondo ku gutwi kwayo kw'ibumoso. Ihagaze mu kiraro gikoze neza bamaze gusukura.

Udukoko duto tw'udushwi turi mu bwoko bumwe, twororewe mu cyumba kimwe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, harimo igikoresho cyifashishwa zinyweraho amazi.

Inka zitandukanye zorowe mu buryo bwa kijyambere ziri mu bwoko bumwe ziri mu kiraro cyubatse neza cyubakishije ibyuma, zirimo kurya ibyatsi byumye bazigaburiye.

Inkoko zo mu bwoko bumwe, harimo amasake ndetse n'inkokazi, byorowe mu buryo bwa kijyambere, mu kiraro cyazo, harimo ibikoresho ziriraho ndetse n'ibyo zinyweraho amazi.

Inkoko nyinshi ziri mu kibuti kimwe ziri mu bwoko bumwe zizwi ku izina rya saso zorowe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, mo imbere harimo udukoresho tunagana turi mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku zinyweraho amazi.

Inka zorowe mu buryo bwa kijyambere, zubakiye neza mu biraro bya kijyambere, imbere yazo hari umuganga w'amatungo urimo kuzitaho anazigaburira.

Inka zorowe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, zifite ikiraro cyubakishije ibyuma, gisakarishije amabati, azirinda izuba ndetse n'imvura.

Ubworozi bw'amatungo atandukanye, ari yo inka ndetse n'imbata, inka yororewe mu kiraro cyubakishije ibiti, imbata zo zirimo zirazerera mu rugo, zishaka ibyo kurya.

Ihene nyinshi zitambaye ibiziriko zorowe mu buryo gakondo ziri mu gisambu kirimo ibyatsi byinshi by'amoko agiye atandukanye zagiye kurisha.

Inka nyinshi, zifite amabara atandukanye zo mu bwoko bugiye butandukanye, ziri ku mirongo, ziri mu gisambu, zagiye kurisha ubwatsi buzitunga, inyuma yazo hari umushumba uzishoreye.

Inka eshatu zifite ibara rimwe, zambaye amaherena y'imihondo, ugutwi kw'ibumoso ,ziri mu rupango, zirimo gusohokamo ,urwo rupango rwubakishije ibiti, zirimo kujya kurisha.

Icyumba gikorerwaho ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko, zizwi ku izina rya Sasu. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo ibyo ziriraho ndetse n'ibyo zinyweraho amazi.

Ingurube iringaniye ifite ibara ry'umweru, yoroye muburyo bwa kijyambere, ifite iherena ry'umuhondo ku gutwi kwayo kw'ibumoso, mu kibuti cyayo harimo isaso y'ibarizo.

Ihene nyinshi zitandukanye zifite amabara atandukanye ziri ahantu zororewe ku gasozi hari uruzitiro runini rwubakishije ibiti ruzizitira kugira ngo zitajya hanze.

Inzu yororerwamo ingurube, izwi ku izina ry'ikibuti, haryamyemo ingurube nini, y'umweru mo imbere harimo isaso iva mu ibarizo ry'ibiti.

Umusaza wicaye, urimo urazirika ibigori, kugira ngo abimanike abyanike bizume neza, kugira ngo azabone uko abihungura, akuremo akawunga.

Ihumbikiro rusange harimo ibihingwa bigiye bitandukanye, bigiye biri mu bihoho kugira ngo byitabweho neza mbere yuko byimurirwa aho bazabihinga.

Urupango rwubakishije ibyuma, mo imbere harimo inka zifite amahembe maremare zizwi ku izina ry'inyambo, iruhande rwabo hahagaze ba muganga b'amatungo, barimo kuzitaho.

Abagabo bambaye boti z'umukara, itaburiya ndetse n'uturindantoki tw'imyeru barimo kubaga inka irambitse hasi bamaze kuyikuraho uruhu barimo kuyibaga neza.

Inka zizwi ku izina ry'inyambo ifite amahembe maremare, iruhande rwayo hari abaveterineri bazengurutse urupango zirimo bari kuzikorera ibikorwa by'ubuvuzi bigiye butandukanye.

Icyumba kinini cyororewemo udushwi tw'inkoko, harimo imbabura iducanira kugira ngo tuticwa n'ubukonje. Harimo n'igikoresho zinyweraho amazi ndetse n'ibyo ziriraho.

Inka nyinshi zifite amahembe maremare zizwi ku izina ry'inyambo, ziri mu rupango, inyuma yarwo hari abaganga b'amatungo barimo kuzivura.

Icyumba kinini cyororewemo inkoko z'imishwi, harimo udushwi dutoya dufite amabara atandukanye, harimo n'imbabura izicanira kugira ngo ziticwa n'ubukonje bukabije.

Urupangu rwubakishije ibyuma, hahagazemo inka, inyuma yayo ahagaze umuganga wambaye itabara y'umweru, uturindantoki tw'ubururu, afashe igikoresho cyifashishwa mu kurindisha amatungo, bigaragara ko agiye kurindisha iyo nka.

Ibikoresho bibiri byifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kimwe kibikwamo imiti, ikindi kibikwamo intanga byifashishwa mu kubanguriza inka.

Urupango runini rwubakishije ibiti, hahagazemo inka, inyuma yayo hari umuganga w'amatungo, wambaye isarubeti y'ubururu, afite ga ndende itukura mu ntoki, arimo gukora mu nda y'amase yayo kugira arebe ko ihaka.

Inyamaswa nini iba mu ishyamba, ifite amabara agiye avangavanze kandi atandukanye ihagaze mu giti inyamanswa izwi ku izina ry'ingwe.

Inyamaswa nini y'ishyamba izwi ku izina ry'intare cyangwa se umwami w'ishyamba, iri kumwe n'ibyana byayo bibiri, iryamye mu byatsi.

Inyamanswa nini izwi ku izina ry'inzoka, iri mu bwoko bw'ibikururanda, ifite amaso manini, ndetse n'umutwe munini ikagira n'amagaragambya ku ruhu rwayo, ikaba izwiho kugira ubumara bwinshi.

Inyamaswa ebyiri nini, zizwi ku izina ry'intare, imwe iri iburyo, ifite urugori ni ingabo, indi iri iruhande rwayo ni ingore. Ziri mu ishyamba, zagiye guhiga icyo zirya.

Inyamaswa ifite amabara y'mweru, umunwa w'umuhondo ndetse n'amaguru y 'umuhondo iri mu bwoko bw'inyoni iri mu mazi hejuru ku byatsi irimo iratora udusimba two mu mazi.